Ikigo cy'ubwishingizi cyitwa radiyanti, gitanga serivisi zo kwishingira abantu n'ibintu, abashobora gukora impanuka, hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, agaragaza ibyo bakora, hari ikinyabiziga kiri mu muhanda cyakoze impanuka, haragaragara n'umuriro.

Abantu babiri bari gusuhuzanya bakorera muri kampani yiga mu yanditse mu mabara y'ubururu bwijimye, handitseho igitekerezo ngenga ubucuruzi, byanditse mu mabara asa orange. Andi ari munsi yaho yanditse mu mabara matoya y'umweru bagaragaza serivisi batanga.

Icyapa kimenyesha hariho umugabo ufite uruhu rwera, izina ry'uwitwa Brain Jones, handitseho nimero za telefone akoresha, handitse amagambo hejuru asa umweru yanditse mu nyuguti nini.

Kampani yamamaza, hagaragaraho umukobwa wambaye imyenda ya siporo, yicaye mu buryo bugaragaza ko ari gukora siporo, byanditse mu magambo y'umweru, manini n'amagambo matoya, avuga ngo uyu munsi uhariwe kwitaho ku rubuga.

Urubuga banki y'u Rwanda ikoresha twita onorayini, hagaragaraho ahatanga ikaze herekana urubuga ugiye gukoresha urwo ari rwo, biragaragara mu mabara y'umweru.

Hagaragara ibikorwa bitandukanye bikorerwa onorayini byo muri banki harimo kwaka inguzanyo, kwishyura inguzanyo, kugura amayinite, kohereza amafaranga no kuyakira no kwishyura, amafagitire harimo no kureba amafaranga usigaranye.

Ni urubuga rugaragaza serivisi za banki harimo kohererezanya amafaranga, kugura gufata inguzanyo no kwishyura hakoreshejwe amakarita no kubakaka inguzanyo utiriwe uva aho uri.

Abantu babiri bahagaze umwe arirabura undi afite uruhu rwerurutse afite agakapu mu ntoki kijimye, hari utubati hari n'imyenda icuruzwa muri iryo duka.

Ahantu bacuruza ibikoresho by'abana bitandukanye, ibyo bicaraho n'ibyo bashobora kuryamaho, hari imyambaro y'abana hari utubati dusa umweru, hari amatara asa umweru, hasi harasa umweru. Hirya hari aho bamanika inkweto.

Ahantu bacururiza imyenda bikoreye bakanayihakorera ifite amabara atandukanye umutuku, umukara ,ubururu, n'umweru, umuhondo hejuru hari igisenge gisa umweru, hasi naho nuko.

Ibitenge bifite amabara atandukanye, bimwe biramanitse ibindi birazinze, haragaragara akapa gatonya kanditse mu mabara y'umukara, inyuma harasa umweru, ibitenge bifite amabara y'umutuku, umweru na kaki.

Bacururiza imitako yo kwirimbisha ku maboko, ku matwi, hagaragara n'imyenda icururizwa aho ngaho idorwa, iri mu mabara y'icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu bwijimye n'umweru.

Ibyo kurya, ibikoresho byo mu isuku, hahagaze umumama ukuze wambaye igitambaro cy'umweru n'imyenda ifite amabara yerurutse. Imbere ye hari umukobwa mutoya uje kumuhahira.

Icyapa kigaragaza ibintu abantu bakora, hariho imero zabo ushobora kubabonaho ugize icyo ukenera, hari uruzitiro, hari imodoka y'umweru itwara abantu, hari inzu y'icyatsi, hari n'ibyatsi bihakikije.

Ikinyabiziga gisa umukara, gifite amatara y'umweru, kikaba giparitse ahantu hejuru ku gisenge, hari ikirere kitijimye, hari n'ibiti bisa icyatsi.

Uko bahagararanye ari babiri bafite uruhu rutandukanye, umwe arirabura undi afite uruhu rwera ari kumwereka urusinga afite mu ntoki amusobanurira ibintu bitandukanye bambaye amashati arimo ubwoko butandukanye.

Ikigo edigi gicuruza imodoka, haragaragara imodoka igiye gucuruzwa irasa umukara ku ruhande hari abantu batatu harimo umuguzi nabagurisha uri hagati ni mama wambaye ibirahure bimufasha kureba neza kuruhande rwe hari abagabo babiri

Imodoka igurishwa, hari kugaragaraho amakuru ayerekeyeho, nimero zayo, irasa umutuku, ifite ibirahure bisa umukara, amatara ari kwaka.

Abantu babiri bahagaze, bafashe akapa gatoya kanditseho Akagera moto, byanditse mu ibara ry'umutuku, ku ruhande hagaragara amagambo yanditse mu nyuguti nini handitseho ABG.

Ikigo gitanga serivisi zo gucunga abantu n'ibintu imodoka igaragaza ibyo bakora abakozi bayo babiri bambaye impuzangano zisa bose bambaye ingofero bambayemo n'imyenda hasi, bafashe ikintu hagati yabo umwe afashe ku kuboko kw'iburyo undi afashe ukuboko kw'ibumoso.

Umugore urimo urabara amafaranga hifashishijwe icyuma gifasha mu kubara, afite ibintu ku mutwe bisutse arirabura, yambaye ibirahuri bimufasha kureba, yambaye imyenda isa umutuku.

Ahabarirwa amafaranga atandukanye bakoresheje icyuma cyabugenewe mu kuyabara, hari amafaranga atari ayo mu Rwanda, uri kuyabara ni umugabo wambaye ishati irimo uburongo bw'umweru n'umutuku n'umugabo wirabura.

Ibinyabiziga biri imbere y'inzu, kimwe gitwaye amata, imbere hari abantu bari kugenda, ruguru yaho hari umuhanda nyabagendwa ukikijwe n'ibiti byiza bisa icyatsi, haragaragara ikirere kirimo umucyo.

Isahane rikorwa mu ifarini baba bavanze n'amata n'isukari riteretse ku isahane hariho n'agapuro ko kurifatisha, isahane iteretse ku gitenge.

Imashini itunganyirizwamo amata akabasha gucuruzwa mu baturage, hari amakaro y'umweru hasi, hari amadirishya, hari n'insinga zikwirakwiza umuriro.

Ahantu hari icyuma gikoranyirizwamo amata, ayo mata baranayahacururiza, hari intebe zisa ubururu, icyuma na cyo kirasa ubururu n'andi mabara y'umweru. Hari kugaragara n'ahantu bakonjeshereza ibintu byo kunywa, hicaye n'umumama uri kwiyakira uri kunywa icyayi.

Inzu itangirwamo amata, hanze hari kandagira ukarabe ifite indobo isa icyatsi n'utwuma tuyifashe dusa umukara. Hejuru hari igisenge gisa ubururu, hasi kugikuta haragaragara amarangi y'ubururu n'umweru.

Ahantu bacuruza amata, hari umuntu waje kwiyakirara, ari kurira ibyo kurya bya mu mugitondo cyangwa ibya nimugoroba byaterwa n'amasaha yabifatiyeho, hari isahane y'umweru, hari n'icyuma gitanga amata.

Umuhanda nyabagendwa nta kinyabiziga kirimo, ruguru yaho haparitse moto itariho umuntu, hari n'ahantu bakarira abantu baje, ahantu bacururiza amata, hari ibyapa bigaragaza serivisi zihatangirwa abo bacururiza amata.

Icyumba cy'inama abantu benshi bitabiriye harimo; abagabo, harimo abagore ,harimo abirabura ndetse harimo n'umuzungu aba bantu bose barakurikiye, imbere y'abo bafite amazi yo kugira ngo babafashe gukurikira neza n'igihe bafite ibitotsi be gusinzira.

Kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga hagaragara aho ushyira umwirondoro wawe hari n'ibihugu uhitamo byaho ugiye kohereza amafaranga urugero baduhaye ni; Malawi, Zambia, Tanzania, Rwanda, Uganda na Ethiopia.

Uburyo bwo kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, ushobora kwishyura ukoresheje mashini, ushoborakwishyura ukoresheje telefoni, ikata, cyangwa urupapuro rwa banki rutanga uburenganzira bwo gutanga amafaranga cyangwa kuyafata.

Igipapuro kigaragaza kwishyurwa hariho amafaranga n'ibyafashwe hari amatariki byanditswe mu mabara y'umukara biri ku gipapuro cy'umweru hariho n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Ikigaragaza ubuhahirane hagati y'uwaguze n'uwagurishije, hariho ikirangantego cy'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, n'utugambo dutoya turi mu tuzu, hagaragaraho n'ikirangantego cy'ikigo cyitwa Rwanda reveni.

Uburyo bwo kuri banke bwereka umukiriya uko amafaranga ye yagiye amuvaho. Abo yoherejwe n'ibyo yaguze byanditse mu mabara y'umukara atose harimo imibare harimo n'inyuguti.

Igipapuro kigaragaza ubuhahirane hagati y'ugura n'ugurisha hariho amagambo yanditse mu nyuguti ntoya, harimo n'ikirangantego cy'igihugu hagaragara ikindi kirangantego cy'ikigo cyitwa Rwanda reveni otoriti.

Urupapuro rugaragaza inyemezabwishyu, hagati y'uwaguze n'uwagurishije, rwanditse mu mabara y'umukara, hari ikirangantego cy'igihugu, hariho n'ikirangantengo cy'ikigo cyitwa rwanda reveni otoriti.

Igipapuro kigaragaza ibihereranye n'ubukungu uburyo amafaranga aba yinjiye n'uburyo yasohotse kiragaragara mu magambo y'umukara, hariho n'ikirangantego cy'igihugu hirya hariho ikirangantego k'ikigo cyitwa Rwanda reveni.

Igipapuro cyerekana ubuhahirane hagati y'umuntu n'undi yaba uwaguze, yaba wagurishije, hariho imibare myinshi itandukanye. Kigaragaza amafaranga yishyuwe, gifasha kwirinda amakimbirane hagati y'uwaguze n'uwagurishije.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde hagaragaraho ifoto y'umusaza ukuze wambaye ibirahuri bimufasha kureba neza, wogoshe, inyuma ye hari imibare y'amazeru menshi, handitseho n'ikirimi cy'Igihinde cyanditse mu mabara y'umukara.

Yeho inzu ishushanyije, ijeretse ifite amabara asa kacyi. Yanditseho amagambo yanditse mu nyuguti nini z'umukara, yanditseho n'ikirahure gishushanyije gisa umukara.

Aho babikuriza amafaranga kuri banki, hagaragara umuntu wifashe amafaranga mu ntoki menshi hagiye kuyabara, hagaragara inote za bitanu n'igihumbi, mu mabara y'umutuku n'ubururu.

Hakorerwa serivisi zo kubikira abaturage amafaranga, nko kuyabikuza hari umugabo uje gufata amafaranga ni amadorari, hagaragara ibiganza bibiri by'uje kuyafata n'uri kuyatanga.

Amafaranga yo mu kindi gihugu, ku ruhande hari andi mafaranga menshi ahakikije, aho hashobora kuba hakorerwa serivise zo kuvunja amafaranga no kuyagurisha. Umuntu uyafashe ntago yirabura yambaye isaha.

Amafaranga yo mu gihugu cya Kongo, aragaragaraho igishushanyo cy'umuntu, hariho amagambo yanditse mu mabara y'umweru, hariho ibishushanyo bigaragaza inyubako zaho n'ibimera by'aho yaba insina n'ibindi biti bisanzwe.

Inote za Tanzania zimwe mu mabara atandukanye haragaragara imbere n'inyuma. Iya mbere magana atanu iriho umugabo inyuma yaho hariho inzu iy'igihumbi iriho umugabo inyuma yaho hari inzu ariko iya bibiri imbere hariho intare inyuma hariho inzu.

Ahantu habera igurana ry'amafaranga yo mu gihugu kimwe n'ikindi, hari inote, hari ibiceri, hari n'ikiganza cy'umuntu gifashe inote, ibiceri biri iruhande rw'inote.

Icyapa kimumenyesha cyo mu kigo cya DAHABSHIIL kiriho amatariki kandi, harerekana uburyo ivunja rihagaze mu kugura no mu kugurisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye. hano barerekanamo ama EURO n'amadolari.

Aho bavunjishiriza amafaranga yo mu bihugu bitandukanye haba igura n'igurishwa. Hari urugi rusa umweru rufite ibyuma ku madirishya yarwo. Hari agaposita k'ibitekerezo hicaye umuntu imbere.

Ahabera igura n'igurisha ry'amafaranga atari ayo mu gihugu n'ayo mu gihugu aho bavunjira; hahagaze umuntu hanze hari n'ibiranga ntego hanze bigaragaza ko ahantu havunjishirizwa amafaranga.

Ibiti byiza bisa icyatsi ni ku manywa hari inzu ifite amarangi asa kake, hari icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa aho ngaho za banke ya bipiyara zo kohereza amafaranga mu gihugu no hanze yacyo.

Serivisi zitandukanye yaba izo ku kuvunja amafaranga, gukata amatike y'indege no kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye, byanditse mu magambo asa umweru, ubururu bwijimye n'umutuku.

Aho batangira serivisi za banki mu kazi gatonya, habaho kubikuza amafaranga kuyohereza no kuba bakuvunjira amafaranga bitewe n'ayo ifite n'igihugu aturukamo, hari kugaragara ku ruhande amatangazo agaragaza imibare yanditse mu ibara ry'umukara.

Ahatangirwa serivise zo kuvunja amafaranga, mu bihugu bitandukanye, n'inguzanye amanyarwanda ushaka amadolari barayaguha. Hari amagambo yanditse mu mabara y'umutuku w'umukara ndetse n'umuhondo.

Ibikorwa byo kubaza imbaho bakazikoramo ikindi kintu bishobora kuba utubati ashobora kuba meza ariko hano bari gukora ameza ari gukorwa n'umuntu ufite uruhu rwera yambaye ingofero y'umutuku.

Ameza y'umukara y'ibirahure afite utwuma dusa nka zahabu, hirya hari urubahu haragaragara ameza yandi, ashobora kuba afite n'intebe ku ruhande.

Saro mu ruganiriro aho abantu baba bicaye, haragaragara intebe zifite imisego isa kaki n'ibibaho bikoze iyo ntebe bifite kaki yijimye, hasi harasa umweru, hari n'amadirishya akoze mu twuma tw'umukara.

Aho bakirira abantu hari intebe zabantu benshi kuburyo abantu baje kwiyakira ari benshi bashobora kubona uburyo bahicara, intebe zirasa umutuku hariho udutambaro dutoya kumeza tw'umutuku.

Hoteli yitwa Garandi regasi irerekana ibintu bacuruza iragaragara mu mafoto, ni inzu igeretse kane ifite amarange asa kake, Garandi regasi yanditse mu mabara y'umuhondo.

Ikawa iri mu gashashi gasa umukara, hagaragaraho agatasi gatoya k'umweru karimo ikawa, kuruhande hariho udupapuro turimo ibyayi n'amasukari, hirya hariho ibikombe byo kunyweramo.

Inzu nini cyane ifite amatara meza menshi yegeranye hari inkingi zisize amarangi asa kaki, hasi hari amabara asa umukara n'umweru.

Hoteli itanga serivisi zitandukanye zo kwiyakira, harimo no kuryama, hakikijwe n'ibiti byinshi byiza by'icyatsi, hari n'ahantu abantu bakarabira benshi rusange.

Ikorerwamo serivisi zitandukanye, yitwa marioti iherereye mu mugi ikikijwe, n'ibiti bifite amabara y'icyatsi meza, naayo ubwayo iragereretse inshuro enye, ifite ibirahure n'ahari amarangi asakake.

Hoteli itangirwamo serivisi zitandukanye yaba aho kuruhukira uryamye, aho kwiyakirira wowe na famiye yawe, aho gukorera inama, yubatse mu buryo bugeretse igeretse gatanu.

Ahari ubwogero bw'abantu benshi, hagaragara icyapa kibuza kwinjira muri ayo mazi, hakikijwe n'indabyo zisa icyatsi, inyuma yaho hari inzu ifite amabara atandukanye y'ubururu, kaki n'umweru.

Aho bakirira abantu baje muri serivisi zitandukanye zikorerwa muri hoteri, yaba kuruhuka kwiyakira no kwidagadura muri rusange, hahagaze umuntu ushinzwe kubafasha muri izo serivise, hejuru hari amatara meza yaka amabara atandukanye inyuma hagaragara igikuta cy'umukara.

Inzu y'umweru hari intebe z'ubururu, ikorerwamo serivise zo gutanga ubwishingizi ku bantu bafite uburwayi, cyangwa bateganya kuzabugira, itanga ubwishingizi bw'izabukuru n'imiriro.

Haragaragara icyapa cyerekana ko ahantu hari ikigo cy'ubwishingizi kitwa Muwa Inshuwarensi cyanditse mu magambo y'umweru manini hagaraga umuntu uri imbere yaho uhagaze.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Prime cyanditse mu mabara y'umweru, ku ruhande hari andi yanditse mu mabara y'ubururu, inyuma hasa umuhondo, kiri ku nzu ifite amarangi y'umuhondo, inyuma yaho hakaba hari umunara.

Umuhanda nyabagendwa nta muntu uhagazemo ruguru yaho hari ikigo cyitwa buritamu, harimo umuntu uri kuganayo haparitse ibinyabiziga bitandukanye, hino haragaragara ahantu batangira serivisi zo gutanga amaraso.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Ubwishingizi bwitwa Purayimu inshuwarensi, haragaragara aho bakirira abantu bahinjiye, hari intebe zisa umutuku, hari umukobwa uhicaye mu bakira abantu...

Ikigo cy'ubwishingizi cyitwa purayimu cyanditse mu mabara y'umweru n'ubururu, icyapa giciyemo kabiri kimwe kiri mu bururu ikindi kiri mu muhondo, hasi hari umuryango uhinjira aho batangira izo serivise za purayimu enshuwarensi.

Abaje muri serivise zo kwaka inguzanyo, bafite ibipapuro bigaragaza imitungo bari bugwaterishe kugira ngo babahereze inguzanyo, imbere yabo hari uri kubirebamo na bo bahagaze imbere.

Isoko ahabera ubucuruzi bw'imyenda n'byo kurya n'ibindi bintu bitandukanye, hahagaze abantu benshi b'urujya n'uruza baje guhaha hari n'abacuruzi. isoko ryubakishije amabati rinakikijwe n'impande yaho n'utundi dushami twayo tw'iryo soko.

Umuhanda nyabagendwa urimo abantu bari kujya mu byerekezo bitandukanye abagabo, abagore. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye ibitenge, imyenda isa ubururu bwijimye, ingofero n'ibitambaro bisa umweru.

Abantu benshi baje guhaha, n'abacuruzi, harimo ababyeyi bahetse abana, harimo ibyo kurya bitandukanye; nk'ibitunguru, karoti, n'ibitoki. Ibimera bifite amabara atandukanye.

Imyaka y'imboga hari abantu bane umwe arahagaze abandi batatu baricaye, mu isoko risakajwe n'amabati umugabo yambaye umupira w'ubururu abandi bambaye amashati.

Imineke iri mu ibase bafite n'amabasi yandi arimo ibishyimbo ibindi bari kubitora babikuramo imyanda ruguru yaho hari ubundi bucuruzi buhakorerwa hari n'amagare aparitse.

Isoko riharirwamo ibikoresho bitandukanye, yaba ibyo mu nzu, ibyo kurya n'ibikoresho byo kwambara, hagaragara inkweto zikoze muri palasitike, udukapu two gutwaramo dutoya n'ibikapu binini byo guhika mu mugongo.

Icururizwamo imyaka, hagaragara abantu benshi batandukanye, abamama biteze ibitambaro mu mutwe, banambaye ibitenge, imyaka ihari ifite amabara atandukanye, hari inyanya, hari intoryi, hari imboga na karoti.

Ibinyampeke bitandukanye harimo ibishyimbo bifite amabara y'umutuku, icyatsi, umuhondo harimo n'ubunyobwa budatonoye, biri mu bintu bikoze mu mbaho bibitandukanya mu mabara.

Isoko ricuruzwamo imyenda yo kwambara n'ibikapu byo gutwaramo ibintu hari n'igice kiriho imyenda y'abana batoya abacuruzi bahari ni abamama ruguru hari umusore ukiri mutoya.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'imyenda yo kwambara, hari abagabo bahagaze, umwe afite imyenda mu ntoki, yambaye ijiri risa icyatsi, undi yambaye umupira, w'ubururu bwijimye, ni abagabo batatu, imbere yabo hari umugore wambaye umwenda usa umuhondo.

Mu isoko ahantu bacururiza byo kurya bitandukanye imyaka iba ihari ibitandukanye ibitunguru, hari inyanya, hari abamama babicuruza inyuma yaho hari abandi bantu benshi baje guhaha mu isoko.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imbuto hari umumama uri gucuruza hari n'umugabo uje guhaha, hejuru ku gisenge hamanitseho udukapu bacuruza, mu gihe hari ukeneye kubika ibyo yaguze.

Ahakorerwa ubucuruzi bwa esanse, hari imodoka nyinshi zitandukanye. Hari abagabo babiri umwe acuruza esanse undi ni uwaje kuyigura, hari n'umumama ucuruza na ama inite.

Inzu ikorerwamo serivisi za emutiyeni aho ubashobora kubikuza amafaranga, kuyashyira kuri telefone yawe, kugura amayinite yo guhamagara, abantu no kwiguriza kuri mokashi, batanga serivise zitandukanye.

Icyapa kigaragaza ibyo MTN ikora iyo utunzeho telefone yawe na kamera yayo ushobora kubona serivisi zose batanga, kiri mu mabara y'umuhondo handitseho amagambo asa umukara, n'imibare.

Barahagaze ni babiri, hari umucuruzi n'ugura, ugura yambaye ingofero yijimye n'umupira w'umukara, ucuruza yambaye ingofero irimo ubururu n'umuhondo n'umupira urimo ibara ry'ubururu n'umuhondo, handitseho amabara y'ubururu.

Akazu ka airtel gatangirwamo serivisi zo kohereza amafaranga kuyabikuza ndetse no kuba wagura amayinet yo guhamagara karasa ibara ry'umutuku kanditseho amagambo agaragaza kampany ariyo mw,ibara y'umweru.

Kwishyura hakoreshejwe telefone cyangwa kohereza amafaranga cyangwa kugura, bari kugura amayinte y'ibihumbi bitanu kuri momo ufashe telefone afite intoki zitirabura cyane yambaye umupira usaka cyane.

Abagabo bane barahagaze n'abagore babiri, abagabo batatu bambaye imyenda y'ikigo cya MTN, bahagaze imbere y'inzu ifite amarangi y'umuhondo itangirwamo serivisi za MTN, umugabo umwe afite uruhu rwera abandi ni abirabura.

Inzu itangirwamo serivise zo kubikura no kubitsa amafaranga, abantu barahahagaze harimo abamama, harimo abapapa, hari ibiti bihakikije, iyo nzu iraza umuhondo.

Hatangirwa serivisi z'ikigo cya emutiyene mu kubikuza amafaranga, kuyabitsa, ndetse no kugura ama inite yo guhamagara. Hahagaze abantu batatu umwe n'umugore abandi ni abagabo bari hanze iyo nzu irasa umuhondo.

Agakoresho gatoya gakoreshwa mu guhamagara handitsemo amagambo shyiramo amafaranga, mu gihe ugiye koherereza amafaranga umuntu barabigusaba inyuma hari agakarita ka emutiyeni kagaragaza uburyo bishyura bakoresheje kode.

Abakobwa batatu bicaye imbere y'ameza bambaye imyenda y'imihondo, inyuma y'aho kugikuta hamanitse tereviziyo irimo ibara ry'umuhondo. Inyuma y'aho Kandi hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umuhondo. Imbere yayo meza har'undi mukobwa muremure wambaye ipantaro ya kacyi ndetse n'ishati idafite amaboko, imisatsi miremire myiza y'umukara.

Icyapa kimenyesha abari kwiyamamaza mu bihereranye n'ubuyobozi, hariho abagore benshi kiravuga ngo abagore mu buyobozi, bafite buri wese amazina yiwe n'uburyo ushobora kumutora.

Urubuga rukoreshwa mu guhaha no kugurisha hakoreshejwe ikoranabuhanga, ushobora kubikora uri uwawe, uri mu kazi, n'ahandi hantu hose waba uri utarinze kujya aho babikorera. Hagaragara umukobwa wambaye ibintu mu matwi bimufasha kumva amajwi.

Amarange y'umweru hasi naho harasa umweru, n'igisenge gifite amatara y'umweru, kirasa na cyo umweru, inzu ni yo kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu i Kigali mu Rwanda.

Hagaragara mu nzu hari utubati hari aho bakarabiriza, ibikoresho byo mu nzu hari urugi rufite amabara y'umukara, utubati turasa umweru n'umukara hasi hejuru hari igisenge gisa umweru.

Inzu ifite igisenge cy'umweru, ifite utubati tw'umweru, hari naho bogereza ibyombo hakaba no ku ruhande rwaho aho kubitereka, hasi hari igikoresho gifasha mu kumesa imyenda no kuyumutsa, iruhande rwaho hari ahandi ho kubika ibyombo.

Inzu ikodeshwa ifite amarange meza asa umweru, ifite n'igisenge hejuru gisa umweru n'amatara yaka. Hari aho kogereza ibyombo n'utubati two kubikamo ibikoresho byo mu nzu.

Ikibanza kiri hanze y'urugo, kuhande hari uruzitiro rwubakishije amatafari, hari ibyatsi, hirya hagaragara ishyamba rigari haritaruye cyane kuri iyo nzu.

Aho abantu baryama bakaruhukira yaba ari ku manywa yabo ari ninjoro bashaka kugira ibihe byiza byo kuruhura umubiri wabo yaba bo yaba n'imiryango yabo hari amashuka hari imisego hari rido.

Inzu igurishwa mu mugi wa Kigali iherereye Kabeza, ifite igipangu cy'umukara, ni inzu ntabwo igeretse hanze hari ibyatsi yubakishijwe amatafari.

Aha hari uburiri bushashe neza , busasheho amashuka y'umweru nanone hariho imisego ifite amabara atandukanye, ku ruhande hari amadirishya hari igitanda gikoze mu mbaho.

Inzu ikodeshwa ifite ibyumba bitandukanye, ifite aho batekera hahagaze umuntu hanze hari utubati, hari n'imashini ifasha mu kumesa imyenda n'ibindiintu bitandukanye.

Inzu ikodeshwa iherereye Kimironko ifite ibyumba bibiri naho gukarabira habiri, irakodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane by'u Rwanda ku kwezi ifite amarangi y'umuhondo n'andi asa umutuku.

Uhagaze muhanda nyabagendwa ukora akazi ko kugurisha amazu n'ibibanza, yambaye imyenda isa hose, isa ibara rya kake, arirabura, ni muremure, inyuma ye hari inzu ifite ibirahure bisa ubururu, inzu isize n'amarangi y'umweru.

Inzu nini yo gukodeshwa iherereye Kibagabaga ibihumbi magana atatu, ifite ibyumba bibiri n'aho gukarabira habiri, ifite amarangi y'umweru, ifite n'utwuma ku mpande dusa umukara.

Aha hari inzu ikodeshwa ifite jaride, ifite ibyatsi, ifite amabuye, ifite igipangu, ifite ibyumba bine, ifite n'aho bakarabira hatatu iherereye Kagarama.

Inzu iherereye i Kanombe muri Kigali, ifite parikingi haparikwamo imodoka ebyiri, ifite amarangi asa kake n'amatara yaka matoya y'umweru, ifite andi marangi ku madirishya asa umukara.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kigali Kanombe, ifite ibyumba bitatu, aho gukarabira habiri irakodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, ifite amarangi y'ubururu n'andi asa umweru, igisenge kirasa umutuku.

Inzu ikodeshwa ifite ibyumba bibiri ,ifite aho gukarabira habiri ifite naho bakirira abashyitsi ,aho gutekera, naho babika ibinyabiziga, ifite amadirishya y'umweru ,ifite n'ibikuta bisa umweru.

Inzu ikodeshwa iherereye Kimironko, irakodeshwa amafaranga ibihumbi magana ane by'u Rwanda, ifite amadirishya y'ibirahure n'inzugi z'ibirahure. Hasi hakoze neza ku buryo nta taka rigera mu rugo.

Isoko ricuruza ibyo kurya amavuta, ibikoresho bikoreshwa mu isuku, abantu batatu bahagaze baje guhaha, hari n'abandi batatu bacuruza bari imbere, harimo wambaye ibirahure bimufasha kureba.

Ibiti, ibyatsi, cyapa, indabyo, inzu, amabati.

Aho bacuruza imyenda ibikapu n'inkweto, hari n'amashakoshi hejuru ku tubati. Utubati twabo turasa umweru ,haragaragara aho bamanika n'ayo makote, abantu bahagaze harimo umumama ucuruza wirabura, hakaba n'umugabo uruhu rwera waje guhaha.

Ahacururizwa ibintu byo kurya bitandukanye ibiryohereye ibirimo imyunyu bifite amabara atandukanye hari ahagaragara amabara y'umutuku hari nahagaragara amabara ya oranje hari amatara yaka y'umweru.

Hagati yo gucuruza mu isoko, hagaragara abagabo babiri bambaye imyenda isa y'umweru, haranagaragara icyapa kigaragaza uburyo ibiciro bihagaze, mu gucuruza ikawa.

Iduka rinini rihahirwamo n'abantu batandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye n'ibyo bifashisha barimo baratwara ibyo bamaze kugura mu tugare tuba ari dutoya, hari amabara y'umutuku, ubururu n'umweru.

Ahantu hacururizwa imyaka buri cyose gifungiye ukwacyo, hariho n'akagaragaza icyo aricyo amazina yacyo mu dupapuro tw'umweru, inyuma hari amabara menshi atandukanye umuhondo, ubururu, move n'andi mabara atandukanye.

Iduka ricuruza ibyo kurya bitandukanye, imyambaro n'ibikoresho byo mu nzu. Hagaragara ibyapa binini bitandukanye ku bikuta by'ikigo cyitwa MTN, gitanga serivisi zo kubikura amafaranga, kuyohereza no kuyakira.

Ikoreshwa mu kwivuza, gafashwe n'umuntu hagaragara intoki ze gusa, kariho ikirangantego cy'igihugu, kanditse mu nyuguti nini z'umukara, zitandukanye hasi yanditseho akarere ka Kicukiro.

Ahatangirwa serivisi za banki, haragaragara abantu baje muri serivisi zo kubikuza, kubitsa, kohereza amafaranga, hari abantu bicaye bareba mu cyerekezo kimwe.

Mituweli ikoresha mu bwishingizi bwo kwivuza, ifashwe n'umuntu yambaye imyenda, aricaye hasi hari sima yicaye ku ntebe y'urubaho.

Serivisi zari Ejo Heza zigaragaza ubwishingizi ushobora guhabwa ugeze mu zabukuru, hariho umukobwa ukiri mutoya wambaye ibirahure bimufasha kureba cyangwa gutuma amaso ye atangirika, yambaye imyenda isa ubururu bwijimye.

Isoko rihahirwamo imyaka n'ibindi bintu ushobora kurya uri mu nzu yawe, n'ibikoresho byo mu nzu. Haragaragara umugore uri gusunika agakoresho yashyizemo ibyo amaze guhaha bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye yaba ibyoku kurya bihingwa cyangwa ibikorerwa mu nganda hano imbere hagaragara igice kirimo imbuto ziriri mu dushashi hagaragaraho n'ibiciro.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye ibikoresho byo mu rugo, ibyo kurya n'ibikoresho bitandukanye bashobora gukoresha ahantu mu kazi hari amabara atandukanye y'ibyo kurya.

Aho abantu bishyurira ibintu byose bamaze gufata mu iduka hagaze abantu babiri uwishyuza n'abishyura babiri, umugabo umwe ahahagaze mu kuboko kw'ibumoso undi ahagaze mu kw'iburyo n'ubishyuza abari imbere hari n'abandi bari hirya bari mu gikorwa kimwe nk'icyo abandi barimo.

Isoko bahahiramo, ririmo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, ibyo bashobora gukoresha mu masuku, n'ibyo kurya. Hagaragara amabara menshi atandukanye, ubururu, umukara, umweru, biri mu tubati ibyo bikoresho.

Aho bahahira ibyo kurya bitandukanye biri mu moko atandukanye; hahagaze abantu benshi hari abaje guhaha n'abagurisha; hejuru harasa umweru, bafite inkingi zisa umweru no hasi hari amabara y'umweru.

Ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, ibyo kurya n'ibyo gukoresha mu nzu, hari abantu babiri bahagaze ahantu imbere hari icyuma bakoresha bari mu kwishyuza amafaranga y'ibyaguzwe.

Isoko rihahirwamo ibintu bitandukanye byo mu nzu, ibyo kurya n'ibikoresho byo mu nzu, haragaragara umukobwa uri gukurura akagare, arigutwaramo ibintu amaze kugura, afite uruhu rwera, afite n'imisatsi miremire.

Ibyokurya bimeze neza by'umwimerere harimo imboga n'ibindi biryo bitandukanye hagaragara umuntu uje kugura hari inkingi hari amatara ariko ataka hasi hari amabara y'umweru.